Mo imbere mu nyubako ahagaragara utubati dukozwe mu mbaho, ndetse harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, n'ikayi irambitse hejuru.

Umurima uhinzwemo amoko atandukanye y'ibiribwa, hagaragara amashu atarakura neza n'umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro.

Akabati kagaragara gakozwe mu mbaho kakaba karimo n'ibirahure, harimo ibikoresho byinshi amakarito ndetse n'uducupa dutoya.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo utubati duteretsemo ibintu byinshi bitandukanye, hagaragaramo akabido bita rozwari, kifashishwa mu kuhira, hari umudamu wicayemo, imbere ye hateretse mudasobwa.

Inyubako igaragara inyuma hakaba isize irange ry'umuhondo, hari ibyapa byinshi biteye iruhande rwayo byerekana ibintu bihatangirwa.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo utubati tugiye turimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibikombe ndetse n'utubido tw'icyatsi turi hejuru y'akabati.

Akabati gakozwe mu twuma twinshi, mu imbere hakaba hateretsemo amoko menshi y'utujerekani, hari utunini, ndetse n'udutoya, twifashishwa mu kubika ibintu bisukika.

Inyubako igaragara, isize irangi ryenda gusa umuhondo, haragaragaraho ibyapa byinshi bitandukanye, byerekana serivisi zihatangirwa.

Inyubako igaragara iriho inzugi z'ibara ry'umweru, zikozwe mu byuma mo imbere hagaragara akabati karimo ibikoresho bitandukanye, hanze hakaba hari amakarito.

Utubati turimo imbere mu nyubako, hejuru ku gikuta hakaba hasize ibara ryenda gusa umuhondo, hakaba habitsemo amoko menshi atandukanye y'ibikombe.

Ibiganza bibiri bifatanye by'umuntu utagaragara neza ibindi bice by'umubiri wiwe, akaba afite kimwe mu bimera akaba ari ibinyampeke.

Akabati kagaragara gakozwe mu mbaho, hakaba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye amakarito, uducupa n'udukombe, hari n'intebe yo mu rubaho irimo.

Mu imbere mu nyubako igaragara isize irange ry'umuhondo, haragaragara urugi rukozwe mu mbaho, utubati turimo ibikoresho bitandukanye.

Umudamu wicaye mu murima akaba akenyeye agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umukara n'umweru, yambaye ipantaro n'umupira w'amaboko magufi.

Umurima munini ugaragara urimo abantu benshi, bakaba bari gutera ibindi biribwa, haragaragaramo umugabo wambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero y'icyatsi.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara ibikoresho bitandukanye, hakaba hari amakarito arimo ibintu mo imbere n'akabido kera gafite umufuniko usa icyatsi.

Umurima munini ugaragara uhinzemo amoko atandukanye y'ibiribwa ndetse harimo umudamu wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara.

Umurima uteyemo ubwoko butandukanye bw'ibimera, haragaragaramo umudamu wambaye igitenge akaba yiteze igitambaro mu mutwe ari guseka.

Ikiganza cy'umuntu utagaragara ibindi bice by'umubiri, akaba yakoze mu cyo twakwita ifumbire, yifashishwa mu gushyirwa mu murima kugira ngo imyaka yere.

Umudamu ugaragara wambaye umupira w'umutuku, urimo uturongo tw'ibara ryera, akaba yambaye n'ingofero ndetse n'ipantaro.

Umurima uhagazemo abantu batandukanye, harimo umugabo n'abadamu, hagati yabo hari ibase itukura, inyuma yabo hari intoki zihateye.

Umurima ugaragara uhinzemo ibintu bitandukanye, byiganjemo ibigori ariko bitarera, hakaba hari ibirundo by'ifumbire birimo.

Umurima ugaragaramo amoko atandukanye y'ibimera hahagazemo umugabo wambaye umupira wenda gusa umweru n'ipantaro y'ikoboyi, iruhande rwe hahagaze umudamu.

Umurima ugaragara urimo ubwoko butandukanye bw'ibimera harimo ibyatsi ndetse n'igiti gikikijwe n'ibyatsi byinshi byumye bikaba ari ibihingwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Ikibaya kinini kigaragaramo umurima uhinzemo ubwoko butandukanye bw'ibiribwa, hakurya hakaba hagaragara imisozi iteyeho ibiti.

Ishyamba rigaragara ririmo ibyatsi byinshi, hari n'amababi yumagaye y'ibiti yatakaye hasi, hirya inyuma hari ibiti birebire bitoshye.

Umurima munini urimo ibihingwa byifashishwa nk'amafunguro, hakaba hizeho ibitoki byinshi bakunda kuryamo imineke ndetse n'amakoma manini.

Umurima munini uhinzemo kimwe mu biribwa bakunda kwita beterave kifashishwa mu kongera amaraso kandi bagikoramo na ji yo kunywa, hari umudamu ubifite mu ntoki.

Mu murima ahagaragaramo igihingwa cyifashishwa mu bintu byo kurya, akaba ari ibirayi bigaragara, byifashishwa mu gutunganya ifiriti cyangwa se ukabirya bitogosheje cyangwa bikaranze, bigeretseho ibishyimbo.

Ishyamba rigaragaramo ubwoko butandukanye bw'ibimera by'ibyatsi, hakaba hateyemo ibiti bitoya by'inturusu bifite utubabi dutoya.

Ahantu mu kibaya giteyemo ibiti byinshi bitarakura cyane, hakaba harimo abanyeshuri benshi bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'abagabo bari kubaganiriza.

Umurima munini ugaragara uteyemo amoko atandukanye y'ibiti, hakaba kandi hateyemo n'ikiribwa bakunda kwita inanasi, hakaba harimo nyinshi cyane.

Abadamu bahagaze mu murima uteyemo ubwoko bw'ikiribwa bita intoryi, hakaba harimo umukecuru ukuze cyane ufashe ku kabase.

Umugabo utagaragara neza mu isura wambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'amaboko magufiya, ahagaze mu murima ahagarara urubuto rwitwa ikinyomoro.

Umurima ugaragaramo ibibabi bishaje byumagaye biri hasi ndetse n'ibisheke binini byeze bifite amashami y'icyatsi.

Umurima ugaragaramo ibyatsi byinshi, hakaba hari ibyumye n'ibindi bitoshye, hakaba kandi hari insina nyinshi ziteyemo zitareraho ibitoki.

Umurima ugaragara urimo ubwoko butandukanye bw'ibiribwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, inyuma hakagaragara ibigori bihateye ndetse n'ibindi biti.

Umurima munini uhinzemo kimwe mu gihingwa bita icyayi, hakurya hakaba hagaragara imisozi igiye iteyeho ibiti.

Ahantu mu kibaya hagaragara kimwe mu moko menshi y'ibiribwa, akaba ari ibirayi byinshi, bipanze mu mifuka isa umweru.

Umurima ugaragara uteyemo amoko atandukanye y'ibimera, hirya hakaba hari inyubako itagaragara neza, ifite amabati atukura.

Udukarito tubiri ndetse n'uducupa tubiri dutoya, inyuma hari ibyapa byometseho, bifite amabara atandukanye, umweru, icyatsi n'amagambo y'umukara.

Agakarito kariho ibishushanyo mu ibara ry'umukara, hakaba hari imibare yandikishijwe ibara ry'umutuku, ndetse n'amagambo manini ari mu ibara ry'ubururu.

Agacupa gateretse ahantu ku cyuma, kakaba gafite agafuniko k'umukara, hariho icyapa cy'ibara ry'umweru gishushanyijeho ubwoko bw'itungo bita inka.

Umurima ugaragara uhinze hakaba harimo amoko atandukanye y'ibimera, yaba ibyatsi ndetse n'intoki hirya hakagaragara ibiti.

Umurima ugaragaramo ubwoko butandukanye bw'ibimera, hahagazemo abadamu babiri, umwe wambaye ingofero n'umupira w'amaboko magufi ndetse n'ipantaro.

Umuririma ugaragara nkaho aribwo uhingwa kuko nta bimera bigaragaramo, harimo abadamu babiri bose bunamye inyuma yabo hari intoki.

Umurima ugaragara uhinzwe neza hakaba hateyemo intoki zigiye zitandukanye, hirya hakagaragara ibiti harimo umudamu wunamye.

Umurima ugaragara urimo abantu batandukanye, bose bafite amasuka barimo barahinga, harimo abadamu ndetse n'abagabo.

Umurima ugaragara urimo ibyatsi birambitse hasi byumye, hateyemo intoki, hari umudamu wunamye, wambaye ijipo n'umupira.

Umugabo uhagaze mu murima ugaragara, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ingofero yanditseho amagambo, afashe ku kimera.

Umurima ugaragara urimo intoki, hakaba hateyemo n'ibiti, harimo umudamu wunamye, wambaye igitenge, yiteze n'igitambaro mu mutwe.

Umuntu uri mu murima ufite isuka akaba ari guhinga, yambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara n'umupira w'amaboko maremare.

Umurima ugaragara uteyemo kimwe mu binyampeke byitwa ibigori hahagazemo abagabo batatu ndetse n'umudamu umwe wambaye ingofero y'umukara.

Abantu b'abadamu bari mu murima bafite amasuka bari guhinga, harimo uwambaye ipantaro ndetse na bote z'umukara n'ingofero n'umupira w'amaboko magufi.

Abagabo benshi bari mu muhanda, bakaba bari gukora igikorwa cy'umuganda, bafite ibikoresho byabigenewe ari byo amasuka, inyuma yabo hari ibiti n'intoki.

Umusore ugaragara wambaye isengeri irimo akabara kera, akaba yambaye ingofero n'ikabutura irimo akabara gatukura n'umweru, afite isuka ari guharura.

Umugabo usa nkaho ari mukuru, uhagaze mu murima, wambaye inkweto zifunze n'ipantaro isa ibara ry'umukara n'ishati y'amaboko maremare, akaba yafashe ku kigori.

Inyubako zigaragara zubakishijwe amatafari matoya ahiye, hariho inzugi zifite ibara ry'ubururu n'amadirishya imbere hari abagabo bahari batatu umwe w'umupolisi.

Umurima ugaragara uri hasi mu kibaya, hakaba hahagazemo abantu, umudamu wambaye ijipo idoze mu gitenge n'undi ufite isuka mu ntoki, wambaye ingofero y'umukara n'ipantaro.

Abadamu babiri bagaragara, umwe akaba afite isuka ari guhinga, afite imisatsi myinshi, yambaye ipantaro n'umupira w'amaboko magufi.

Abantu bari mu murima bafite amasuka, bakaba bari guhinga inyuma yabo bakikijwe n'intoki, imbere hakaba hari igikoresho bita umupanga.

Umurima ugaragara uhagazemo abantu benshi, hakaba hari umugabo wambaye ijakete y'umukara n'ipantaro y'ikoboyi afite metero ari gupima.

Umurima munini ugaragara uteyemo amoko atandukanye y'ibiribwa, harimo abantu: umwe uhagaze n'undi wunamye, hakurya hari amazu.

Umurima ugaragaramo ibimera bitandukanye, hakaba harimo abantu benshi bafite amasuka, bakaba bari guhinga, hakurya hari imisozi iteyeho ibiti.

Isoko rinini rigaragara ririmo amoko atandukanye y'ibiribwa, harimo voka ndetse amakaroti, hicayemo abadamu ndetse n'abahagaze.

Hasi ku byatsi aharambitse ibijumba bikaba byifashishwa mu buzima bwa buri munsi nk'ibiribwa byongera imbaraga mu mubiri w'abantu.

Hanze y'inyubako ahagaragara abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abadamu, imbere yabo hakaba hari kimwe mu bihingwa bita ibitoki bivamo imineke ndetse bakanabirya atari imineke.

Kimwe mu moko atandukanye y'ibimera, bikaba biri mu mifuka myinshi igaragara y'umweru iciyeho imirongo y'ibara ry'icyatsi.

Abasore bari mo imbere mu nyubako, ahagaragara imifuka myinshi yera ipakiyemo ibintu, hakaba hari uwambaye umupira wera n'ingofero.

Umugabo usa nk'aho akuze wambaye ingofero y'umukara ndetse n'ikoti ry'umukara, akaba ahagaze hagati ahantu hari ibigori byumye.

Isoko rigaragara hanze hakaba hari abantu ndetse na kimwe mu bihingwa by'ibiribwa bita ibitoki, hari umudamu ubyicaye iruhande.

Umurima munini ugaragara uteyemo intoki nyinshi zitandukanye imbere hakaba hari ibitoki basaruye hakaba hari umugabo wambaye umupira ndetse n'ikabutura.

Umurima ugaragara uteyemo ubwoko bwinshi butandukanye bw'ibimera, hakagaragara igiti gifite amababi manini, inyuma hakaba hari ibiti birebire.

Umurima munini ugaragaramo amoko atandukanye y'ibimera, hakaba harimo ibiti byinshi ndetse hateyemo insina ariko zitarakura.

Hagati mu ishyamba ahagaragaramo amoko menshi atandukanye y'ibyatsi, hari ibifite utubabi dutoya ndetse n'uturabyo, inyuma haragaragara ibiti birebire.

Inzira nyabagendwa igaragara iteyemo utwatsi dukeya cyane, ikaba ikikijwe n'amoko atandukanye y'ibiti birebire bifite udushami dutoya.

Amoko menshi atandukanye y'ibimera, ari ahantu mu murima ahagaragara igiti gifite udushami dutoya cyane ndetse inyuma hari ibiti.

Ishyamba ritarimo ibiti byinshi cyane, hakaba hagaragara amoko atandukanye y'ibyatsi, hari ibifite uturabo hejuru ndetse bifite amababi mato.

Ishyamba rinini, rigaragara, hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti batemye birambitse hasi, hakaba hari n'ibindi biteye birebire.

Umurima ugaragaramo ibyatsi by'amoko atandukanye, hakaba harimo insina ntoya zisa nkaho baziciye ndetse n'amababi yazo.

Umurima munini ugaragara urimo amoko atandukanye y'ibimera, hakaba hari ibyatsi ndetse n'amakoma manini agaragara.

Ishyamba rigaragara, ririmo ibiti byinshi, birebire, bigiye bifite amashami matomatoya, hakagaragara ibigori biteyemo.

Umurima ugaragara urimo amoko menshi atandukanye y'ibimera, hirya hakagaragara ibiti bifite amababi atari menshi cyane.

Umurima ugaragara uteyemo amoko menshi y'ibiti, hari igiti cy'avoka kigaragara gitoya ndetse n'ikindi cy'imyembe.

Ishyamba rigaragara riteyemo ibyatsi bya kimeza, hakaba harimo ibiti birebire cyane ariko bifite udushami dufite utubabi dutoya.

Hanze y'inzu ahagaragara utwuma tuhashinze, imbere hakaba hari igiti giteye mu ndobo ifite ibara ry'umukara, hakurya hakagaragara intoki.

Agati kagaragaraho utubabi twinshi dufite ibara ryenda gusa umutuku wijimye, hasi kandi imbere hakaba hari ibyatsi bitoya.

Ishyamba rigaragara harimo ibyatsi byinshi cyane bisa nk'ibitoshye, hakagaragaramo ibiti byinshi cyane bisa nk'ibidafite amashami manini.

Ahantu hari umurima ugaragaramo amoko atandukanye y'ibimera, hakaba hagaragara urutoki ndetse n'ibigori, inyuma hakaba hari igiti kirekire.

Ishyamba rigaragara ririmo ibyatsi byinshi ndetse n'amoko atandukanye y'ibiti, hari ibitoya ndetse hari n'ibirebire bifite amashami manini.

Umurima ugaragaramo amoko menshi atandukanye y'ibimera arimo ibyatsi bitoshye ndetse n'ibiti bidakuze cyane, bifite amababi y'icyatsi.

Umurima ugaragara urimo amoko atandukanye y'ibimera, hakagaragaramo intoki zitarera neza, inyuma hakaba hari ibiti birebire.

Umurima ugaragara uteyemo amoko atandukanye y'ibiti, hakaba harimo n'insina itariho igitoki, haragaragara n'ibigori bitarera n'amasaka.

Umurima ugaragara munini uteyemo kimwe mu biribwa bita intoryi. hahagazemo umudamu wambaye ingofero y'umukara n'umupira w'amaboko magufi.

Isoko rigaragaramo ubwoko bwinshi bw'ibiribwa, harimo karoti ziri mu ibasi ijya gusa ubururu, hakagaragara n'indi basi irimo intoryi n'ibitunguru ku ruhande.

Amoko atandukanye y'ibimera, indabo zifite amashami y'umutuku, ndetse n'izindi zifite amababi y'icyatsi, haragaragara urukuta rwubakishijwe amatafari matoya ahiye.

Isoko risa nkaho ari rinini rigaragaramo amoko atandukanye y'imbuto, hakaba harimo imyembe ndetse n'amaroji n'amatunda.

Umurima ugaragara yuko ukimara guhingwa ako kanya ukikijwe n'ibiti ndetse n'intoki, harimo abantu bunamye bari gusoroma.

Mo imbere ahagaragara imineke ishashe hasi ku mifuka, ikaba yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, ushobora kuyirya mbere yuko urya cyangwa se nyuma yo gufata amafunguro.

Igipangu kinini kigaragara, gifite urugi rufite amabara atandukanye, umweru n'umukara, rukozwe mu byuma, hanze hakagaragara uturabo dutoya

Umurima ugaragara uteyemo ubwoko butandukanye bw'ibiribwa, haragaragaramo imboga ndetse n'ibindi bimera, bikaba bimeze nk'aho bitari byera neza.

Umurima urimo ibimera by'amoko atandukanye, hakagaragaramo umugabo wambaye ingofero, ufite ikintu bifashisha batera imiti y'udukoko.

Amoko atandukanye y'ibimera biribwa, hakaba hari ibyo bita pinari ndetse na tungurusumu nyinshi ziri mu kabase gasa ubururu ndetse n'imiteja itagaragara neza.

Imeza igaragara ikozwe mu mbaho, hakaba hashasheho shitingi, hasi harambitse amaseri menshi y'imineke n'andi ari ku gakoko gatoya.

Ibimera biri mu moko atandukanye, harimo betarave yifashishwa mu guteka ndetse na karoti, ibitunguru ndetse n'ibibiringanya.

Umurima munini ugaragara uteyemo ibiribwa by'amoko atandukanye, hakagaragara ibyatsi byumye birunze, hirya hari ishyamba ririmo ibiti bigufi.

Igipangu kigaragara gikozwe mu moko atandukanye y'indabyo, imbere kandi hakagaragara igiti kiri mu bwoko bw'umukindo, hasi hakaba hari utwatsi dutoya.

Mu murima ugaragara uhinzwemo ubwoko butandukanye bw'ibimera, inyuma hakaba hari ibigori, hahagazemo umuntu wambaye ingofero ndetse n'ipantaro y'itiriningi.

Amoko atandukanye y'ibiribwa bigaragara byifashishwa nk'imboga, harimo ibitunguru ndetse n'imiteja mikeya.

Umuntu uhagaze utagaragara mu gice cyo mu isura, akaba yambaye umupira w'amaboko magufinya, mu kiganza cyiwe akaba afite puwavuro nyinshi.

Isoko rigaragara harimo ibiribwa by'imbuto harimo, amaronji, amatunda ndetse n'imyembe n'inanasi, hari n'akabase kahateretse n'umunzani.

Ikimera kigaragara hasi hari ibyatsi byinshi, hakaba hariho utubuto dutukura twifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Ahantu hagaragara imirima iteyemo ibimera bitandukanye, harimo umudamu uhagazemo wambaye ibitenge ndetse yikoreye ibase isa icyatsi.

Umurima ahateyemo amoko atandukanye y'ibiribwa, haragaragara umwana mutoya, inyuma yiwe hari umudamu witeze igitambaro gitukura, yambaye ibitenge.

Umurima munini ugaragaramo ubwoko bwinshi bw'ibimera, hakaba harimo utwatsi duke duke ndetse n'ibindi bihingwa bihinze mu mashashi.

Umurima ugaragaramo ubwoko butandukanye bw'ibimera, hahagazemo umugabo wambaye umupira urimo amabara atandukanye, umukara, umutuku ndetse n'akana kamuri iruhande.

Inyubako igaragara yubatse hakaba hariho amadirishya y'ibyuma n'urugi rw'icyuma, byose bikaba bisa umutuku, imbere hakaba hari abana batoya bunamye mu murima.

Kimwe mu bimera by'ibiribwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, akaba ari urusenda rusa umuhondo cyane, hakaba harimo n'urundi rusa icyatsi, zikaba ziri mu mufuka.

Umudamu ugaragara ufite imisatsi ibohesheje indodo, akaba yambaye imyenda igiye irimo amabara atandukanye, akaba ahagaze imbere y'igiti cy'amatunda atarera.

Umuntu utagaragara mu gice cyo mu isura wambaye kamambiri zifite ibara ry'umuhondo, imbere yiwe hari ibinyomoro biri mu ibase.

Umurima ugaragara uteyemo amoko atandukanye y'ibiribwa, hahagazemo umugabo wambaye ipantaro n'umupira w'amaboko magufi w'umuhondo.

Ahantu hagaragara amoko atandukanye y'ibiribwa, harimo imiteja ndetse na karoti ndetse na beterave zifashishwa mu bintu byinshi.

Umurima ugaragara munini cyane ukaba uteyemo ibiti bitari byakura neza, hasi yabyo hakaba hari ibyatsi bigiye birunze byumye.

Umurima uteyemo uduti tugiye dutandukanye dusasiwe ibyatsi byumagaye, hakaba inyuma hagaragara ibiti byinshi.

Ibimera byinshi bigaragara byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, akaba ari seleri ndetse na karoti n'ibitunguru bigaragara.

Ibiganza bibiri by'umuntu utagaragara ibindi bice by'umubiri, akaba ari mu murima aho afashe ku kimera bita ikibiringanya.

Kimwe mu bimera byifashishwa mu gutunganya imboga zo kurya, akaba ari intoryi ziri mu ibase iteretse ahantu ifite ibara ry'umutuku.

Igipangu kigaragara kiriho urugi rw'icyuma ku ruhande akaba ari urukuta rw'amabuye, mo imbere haragaragaramo amoko atandukanye y'indabyo.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara ubwoko bw'ibiribwa by'imboga, harimo intoryi ndetse n'imitija n'inyanya zihishije, hari umunzani ndetse n'akabase.

Ukuboko k'umuntu utagaragara, akaba imbere yiwe hari kimwe mu biribwa bakunda kwita igihaza, abantu bakunda kukirya bakivanze n'ibishyimbo.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye by'imbuto, hakaba hari imineke igaragara ihishije, ndetse n'imyembe itagaragara, umunzani bifashisha mu gupima.

Ameza agaragara akozwe mu mbaho, hakaba hashasheho shitingi ifite ibara ryera ndetse n'inkoko iriho imineke n'avoka ku ruhande.

Umurima munini ugaragara uhinzwemo amoko menshi atandukanye y'ibiribwa, haragaragaramo umudamu ufite isuka uri guhinga witeze igitambaro gitukura.

Isoko ririmo umuntu utagaragara neza mu bice byo mu isura, ku meza imbere ye hakaba hari imbuto zitandukanye, harimo imyembe, hakaba harambitse isahani ikozwe mu cyuma.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo amoko menshi y'imbuto, harimo imyembe, amaronji, amatunda ndetse n'ibinyomoro na pome.

Umurima ugaragaramo amoko atandukanye y'ibimera, hakaba hahagazemo umugabo wambaye ishati idozwe mu gitenge ndetse n'ipantaro.

Umurima ugaragara uteyemo amoko atandukanye y'ibiribwa, haragaragaramo ibigori bisa nk'ibyeze n'umugabo uteruye ibyatsi byumye yambaye ikote.

Umurima urimo ibimera bitandukanye by'ibiribwa, harimo umudamu ufite indobo irimo amazi, wambaye umupira akaba yiteze n'igitambaro mu mutwe.

Umurima ugaragara urimo ubwoko butandukanye bw'ibimera, harimo ibyatsi ndetse n'ibigori hakagaragaramo umugezi uri kuhira imyaka.

Umurima munini ugaragara cyane, hakaba harimo abantu babiri, umwe umudamu wambaye agasengere, undi akaba afite ikintu ari kuhira imyaka.

Hagati mu murima uteyemo ibimera bitandukanye haragaragara ibigori bitarakura neza ndetse n'akuzi gatoya bakoze bifashishije ihema n'umugabo wambaye bote.

Ikibaya kinini kigaragaramo umurima w'umuceri, hakaba harimo imashini nini yifashishwa mu kuhira, hirya hakaba hari imisozi.

Umurima uteyemo amoko atandukanye y'ibiribwa, hakaba hagaragara amashu atarera neza, hari umugabo uri kuhira wambaye ipantaro y'ubururu.

Igishanga kinini kigaragara, hari amazi atemba arimo ndetse ku ruhande hari ahantu hari igiyo kirambitse hasi n'umugabo wambaye ikabutura.

Abana babiri bari kudaha amazi, umwe akaba ateruye amabido y'umuhondo, ari kugenda yambaye isengeri ifite ibara ryera.

Mu kibaya ahantu hari imirima myinshi cyane igiye ikataguye, hakaba hateyemo amoko atandukanye y'ibimera ndetse n'ibiti bikiri bitoya.

Hasi mu kabande ahagaragara imirima igiye igabanyije mu bice, iteyemo icyayi, hakurya hakagaragara imisozi irimo ibiti.

Hasi mu kibaya ahagaragara umurima munini wamezemo ibyatsi birebire, hakurya akaba ari umusozi hari n'inzu ihubatse igaragara.

Umusozi ugaragara uteyeho ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti bitari byakura, hasi hakagaragara inyubako nyinshi zitandukanye zisakaje amabati.

Hasi mu gishanga gikikijwe n'imisozi iteyeho ibiti bitari byinshi, hakagaragaramo ibyatsi birebire bisa nk'ibyumye, hari akana gatoya k'agakobwa kambaye agakanzu.

Hasi mu kibaya ahagaragara imirima myinshi igiye ikatakasemo mu bice, harimo ibihingwa bitandukanye ndetse n'ibiti.

Umurima munini ugaragara uhinzemo amoko atandukanye y'ibiribwa bitarera neza, hakurya hakaba hari ishyamba ririmo ibiti

Hasi mu kibaya ahakikijwe n'imisozi irimo ibiti byinshi, hagaragara inyubako zifite amabati atukura zubakishijwe amatafari matoya ahiye.

Umurima munini uri guhingwa n'abantu benshi bamwe bagenda batera, hari umugabo wambaye imyenda ijya gusa icyatsi.

Hasi mu kibaya ahagaragara amazi menshi atemba akaba akikijwe n'ibyatsi, hepfo hakaba hagaragara ishyamba ririmo ibiti.

Ikiraro kigaragaramo amatungo magufinya bita ingurube, hakaba hahagazemo umudamu wambaye itaburiya yera ndetse n'agapfukamunwa.

Imbere mu nyubako ahagaragaramo ako twakwita nk'akabati gakozwe mu twuma kagiye kagabanyijemo uduce dutandukanye, harimo amagi menshi.

Ikiraro cyubakishijwe ibiti byinshi cyane bizirikanyije n'imigozi, hagaragaramo imwe mu matungo yo mu rugo bita ingurube iri kurisha ibyatsi.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe imbaho nini hakaba hasakajwe amabati, hagaragara itungo ry'inka, imbere hari ibyatsi ririsha.

Ikiraro cyubatswe kigaragaramo imwe mu matungo bakunda kwita ingurube, ikaba ari nini hakaba hari n'utundi dutoya turi kuyonka.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti byinshi, hakaba hari ibitambitse ndetse n'ibihagaze, hakaba haryamyemo itungo bita ingurube.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti bigiye bicomekeranye ndetse n'injerekani ikaswemo kabiri ndetse n'itungo bita ingurube.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti ndetse n'ibyondo bateyemo hagati hagaragaramo inka mw'imbere ndetse n'indi iri hanze, ziri kurisha.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti bigiye bizirikanyijwe n'imigozi, harimo inka, hanze hagaragara umwana wambaye agapira karimo ibara ry'umutuku.

Ahantu hagaragara imwe mu matungo bita inka, zikaba ari nyinshi zifite ibara ry'igitare ndetse n'ibara ry'umukara, hakurya hari abantu bahahagaze.

Abantu benshi bahagaze ahantu, hakaba higanjemo abadamu basa n'abakuze ndetse n'abagabo, bakaba hagati yabo hari amatungo yitwa ihene.

Abantu bahagaze barimo umudamu ndetse n'abagabo, hagati yabo hakaba hari uruzitiro rw'ibiti, harimo inka zitandukanye amabara, inyuma hakaba hari intoki.

Inyubako zigaragara zisakajwe amabati, hino hakaba hari inka bazitirishije ibiti, hari n'abagabo bazihagaze iruhande.

Umugabo uhagaze wambaye umupira utukura ndetse n'ingofero, inyuma yiwe hari ishyamba, imbere yiwe hakaba hari itungo bita inka.

Hanze y'ikiraro cyubakishijwe ibiti binini hagaragara urugo rwubakishijwe imirinzi ndetse n'amatungo ihene n'ingurube.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti bihagaze n'ibitambitse, hakaba hari umudamu ukenyeye ibitenge ufashe ku ihene n'umugabo uhagaze.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti binini, hakaba harimo itungo bita ingurube, rikaba rifite amoya asa igitare.

Ikiraro kigaragara, hakaba harimo imwe mu moko y'amatungo, akaba ari ingurube, isa nkaho iri kurya, ifite ibara ry'igitare.

Hanze ahagaragara ikiraro cyubakishijwe amatafari ndetse n'ibiti, hakaba hari amatungo abiri aharyamye ari yo ihene, hari ifite ibara ry'umukara.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti byinshi bitambitse ibindi bihagaze, hari umwana wambaye ijipo yu'bururu ndetse n'agashati kayo, imbere ye hakaba hari inkoko.

Imwe mu moko y'amatungo aribwa ikaba ari ihene ifite ibara ry'igitare ndetse n'irindi bara ry'umukara, ikaba ifite ikiziriko mu ijosi iruhande hakaba hari umweyo.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti byinshi ibihagaze ndetse n'ibitambitse, hakaba harimo amatungo y'inka, hahagaze umusaza wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro n'umwana bafite ibyatsi mu ntoki.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti byinshi ibihagaze ndetse n'ibitambitse harimo amatungo abiri y'ihene ifite ibara ry'umukara.

Amwe mu moko y'amatungo aribwa, akaba ari inkwavu zigaragara zifite amabara yera ndetse ku matwi akaba ari amabara asa igitaka.

Hanze y'inyubako igaragaraho urugi rukozwe n'imbaho, ikaba ipavomesheje agasima, hagaragara amoko atandukanye y'inkoko isake n'inkokokazi.

Akazu gatoya kagaragara kubabakishijwe ibiti byinshi binini, gasakajwe amabati ku ruhande haragaragara igitoki, hanze hakagaragara itungo ry'ingurube.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti byinshi ibitambitse ndetse n'ibihagaze, harimo ibyatsi amatungo ari kurisha, harimo isa umukara n'umweru.

Inka igaragara ifite ikiziriko mu ijosi, ikaba ifite amabara atandukanye y'igitare ndetse n'irindi ry'umukara, ihagaze mu twatsi dukeya, inyuma haragaragara igiti.

Imwe mu matungu aribwa bita ihene, ikaba ifite amabara atandukanye irisa igitaka n'irindi ryera, ikaba iziritse ahantu.

Ikiraro cyubakishijwe ibiti byinshi cyane, hari ibihagaze ndetse n'ibitambitse mo imbere haragaragaramo amatungo, ihene ifite ibara ryera ndetse n'irisa umukara.

Ahantu hagaragara umurima uteyemo ibimera bitandukanye, harimo ibigori bimeze nkaho byahunduye, imbere hari amatungo aharyamye ndetse n'irindi riziritse ku giti.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti binini ndetse n'amatafari bakunda kwita aya rukarakara, hari umuntu uhahagaze mo imbere, hari inka isa n'igitare ifite akabara k'umukara gakeya.

Mo imbere mu nyubako ahakorerwa ubworozi bw'inkoko, zikaba zirimo ari nyinshi hagati yazo hagiye hateretse utuntu, gafite ibara ry'umutuku n'umweru.

Inyubako igaragara yubakishijwe udutafari dutoya duhiye, inyuma yayo akaba ari imisozi, imbere hakaba hari abantu bahahagaze, hagati yabo hari inka.

Ikiraro kigaragara cyubatswe mu biti bigiye bizirikanyije, hari ibihagaze ndetse hari n'ibitambitse, hakagaragara inka ifite ibara ry'umukara n'irindi ry'igitare ikaba iri kurisha.

Ikiganza cy'umuntu utagaragara neza ibindi bice byose by'umubiri, akaba ari mu murima hagati, ahateye kimwe mu biribwa bita intoryi.

Umurima ugaragara uhinzemo ubwoko butandukanye bw'ibiribwa, ukaba ushashemo ibyatsi byinshi byumagaye, bikaba birinda imyaka kuribwa n'udusimba.

Umurima ugaragaramo ibimera bitandukanye, hakaba harimo ibyifashishwa mu buzima bwa buri munsi hakaba hezemo insenda zifite amabara atukura.

Umurima usa nk'aho ari mutoya uteyemo ibimera bitandukanye, imbere hakaba hagaragara kimwe mu bimera by'ibiribwa bita amashu.

Umurima munini cyane ugiye ukasemo ibice birebire, hakaba harimo amoko atandukanye y'ibimera, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Tugaragara twubakishijwe utwuma tugiye duhagaze impande n'impande, dusakajwe n'utuntu tumeze nk'utuyunguruzo, hakaba hakorerwamo ubuhinzi butandukanye.

Ukuboko cyangwa ikiganza cy'umuntu utagaragara ibindi bice by'umubiri, imbere yiwe hakaba hari ikimera cy'ikiribwa bita urusenda.

Kimwe mu moko menshi atandukanye y'ibiribwa akaba ari mu murima, harimo seleri zikaba zifashishwa mu gutunganya imboga n'ibindi bintu bitandukanye.

Umurima munini uhinzemo amoko menshi atandukanye y'ibiribwa, hakaba hateyemo intoki hari izifite ibibabi bisa nkaho bishaje, hagazemo abantu babiri.

Umurima munini ugiye ukatakasemo utuntu tumeze nk'utuyira, hakaba hateyemo ibimera bita imyumbati yifashishwa mu bintu by'ibiribwa.

Umugabo usutamye utagaragara neza ibice byose, akaba yambaye umupira wamaboko magufinya, afite umusatsi mukeya n'ubwanwa, imbere ye hari inka ari kuyisuzuma.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti byinshi, ibihagaze n'ibitambitse, hakaba harimo inka zisa igitare ndetse n'umukara, imbere hahagaze abantu.

Abantu babiri bahagaze mu kiraro cyubakishijwe ibiti ndetse n'utubaho duto dutoya, ni umugabo n'umudamu, bakaba bafite ihene.

Umurima ugaragara uteyemo kimwe mu bihingwa bita ibigori, hakaba hari n'ibiti bihateye, imbere hari abantu bahari bafashe ku nka.

Umugabo uhagaze ahantu hari inka nyinshi, akaba yambaye umupira ufite ibara ry'umukara ndetse n'ingofero, yambaye ipantaro.

Abagabo babiri bahagaze mo imbere mu kiraro, umwe yambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umukara, yambaye bote n'ipantaro ndetse n'ingofero y'icyatsi.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti byinshi ibihagaze ndetse n'ibitambitse, harimo umugabo wambaye bote zera n'ipantaro y'umukara.

Abagabo batatu bari imbere y'ikiraro cyubakishijwe ibiti byinshi bizirikanyije, hakaba harimo umwe wambaye isarubeti ifite ibara ry'ubururu.

Abagabo bahagaze ari batatu, umwe akaba yambaye isarubeti ndetse na bote z'umukara, undi yifashe ku mutwe yambaye ipantaro y'umukara n'ijakete.

Mo imbere mu kiraro ahagaragara umugabo, akaba yambaye ishati irimo amabara atandukanye umukara ndetse n'umweru, yambaye bote z'umukara n'ingofero isa icyatsi.

Abagabo babiri bahagaze ahantu imbere y'ikiraro ndetse umwe yambaye bodaboda z'umuhondo n'ipantaro ijya gusa umukara, undi yambaye isarubeti y'ubururu.

Umugabo ugaragara wambaye isarubeti ifite ibara ry'ubururu, inyuma hari amagambo ahanditse, akaba ari gupima inka.

Mo imbere mu nyubako ahakorerwa ubworozi bw'amatungo magufinya bita inkoko, hahagazemo umusore wambaye isarubeti ifite ibara ry'ubururu.

Amwe mu moko atandukanye y'inyamaswa akaba ari inkendeifite ibara ryera gusa umukara, ku ijosi ryayo hari ubwoya busa umweru.

Imwe mu bwoko bw'inyamaswa ziba mu ishyamba, ikaba iri mu giti gifite amababi atagaragara neza, akaba ari inkende ifite ubwoya bw'umukara, mu maso ifite utwoya dukeya twera.

Akanyamaswa gafite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, kakaba kari mu giti hejuru, kidafite amashami menshi kari mu bwoko bw'ibiguruka.

Kamwe mu bwoko bw'inyamaswa zitandukanye, kari mu ziguruka kakaba ari akanyoni gafite amabara atandukanye, gafite umunwa utukura n'uturenge dutukura.

Kamwe mu nyamaswa nyinshi zitandukanye, kakaba kari mu bwoko bw'ibiguruka, gafite utubara twinshi ndetse gahagaze ku giti.

Kamwe mu moko atandukanye y'inyamaswa ziguruka, kakaba kitwa akanyoni, gafite utubara twinshi turiho, kakaba gahagaze ku gati.

Umusore usa nkaho asutamye, wambaye isengeri ndetse n'ipantaro n'inkweto rifite akabara k'umutuku ndetse n'umweru imbere yiwe hari utunyamaswa bita inkende.

Imwe mu bwoko bw'inyamaswa ziguruka ikaba ari inyoni ihagaze ku gati gatoya ikaba ifite amabara atandukanye umuhondo, umutuku.

Inyubako igaragara, yubakishijwe amatafari matoya ahiye, akaba hariho umurongo muremure w'irangi ry'umweru, isakajwe n'amabati y'ubururu, hino hari akanyamaswa bita inkende.

Kamwe mu moko atandukanye z'inyamanswa, kakaba kari mu ziguruka, kitwa akanyoni; gahagaze ku gati gatoya katariho ibibabi.

Imwe mu bwoko bw'inyamaswa igaragara yicaye hasi kubutaka, inyuma hakaba hari ibyatsi, ikaba ari inkende, mu maso isa umukara.

Ubwoko bw'inyamaswa buhagaze ahantu mu byatsi, akaba ari ebyiri zifite imirongo y'umweruru ndetse n'umukara, bazita imparage.

Kamwe mu bwoko bw'inyamaswa zibaho bakaba bakita imbeba, zikunda kuba mu nzu z'abantu zikarya ibiryo ndetse n'imifuka, kakaba kari kugenda hejuru y'ibibabi.

Kamwe mu moko atandukanye y'inyamaswa, gahagaze ahantu mu byatsi; kakaba gafite utubara tugiye dutandukanye, harimo iry'umukara.

Ahantu mu gishanga hagaragara ibiti bitari byinshi, hakaba harimo n'ibyatsi bigaragara ko byumye, hari inyamanswa ebyiri bita imparage, zifite ibara ry'umweru n'umukara.

Imwe mu moko menshi y'inyamaswa akaba ari akanyoni gatoya gafite amoko atandukanye y'amabara, arimo umutuku, umuhondo ndetse gahagaze ku kibabi gisa umuhondo.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakagaragaraho amadirishya y'ibyuma asize irange ryera, imbere hateye ubwoko butandukanye bw'indabyo.

Inyubako bigaragara nk'aho ishaje, inyuma yayo hari ibiti, imbere yayo hari ibyatsi byinshi bihateye, igipangu kikaba gifite urugi rufite ibara ritukura.

Zimwe mu moko atandukanye y'inyamaswa, bakaba bazita inkende, hari inkuru ndetse n'udutoya, bikaba bihagaze ku giti.

Imwe mu moko menshi atandukanye y'inyamaswa ziba mu ishyamba akaba ari inkende zifite ubwoya bw'umukara ndetse n'ubwoya bw'umweru zicaye mu giti.

Imwe mu bwoko bw'inyamaswa nyinshi zo mu ishyamba, ikaba iri ku giti kitariho amashami, ikaba ari inkende ifite ubwoya bwinshi.

Mu gishanga ahagaragara ubwoko bw'inyamaswa, zikaba zihagaze mu byatsi bisa nkaho ari birebire, hakurya akaba ari umusozi uteyemo ibiti.